Iki ni ikigo, iki ni icyumba cy'ishuri, ishuri rifite imiryango itatu, bagiye bashyiraho ibirango bizafasha abana kwiga, urabona ahantu babashushanyirije ibimera, ibishyimbo, babereka imyeyo, amasuka, indobo, igitanda, harimo n'umunyeshuri uri kujya mu ishuri.

Uruganda rw'imiryango itatu, harimo akayira, hanze hateye indabyo, hari utujaride, hari inzira igenda ikagera mu baturage, hari inzu z'ibati zino nzu ni iz'umweru zifite n'ibyumba.

Hano hari ameza, harimo ibitabo, harimo agakarito karimo amakaramu, ndi kubona n'intebe, akabati harimo ibikombe, hano wagira ngo ni mu cyumba cy'abana bigiramo, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye.

Bowate mati matikale irimo amarate, hari amarati maremare, mpande eshatu porotoragita mande enye, porotaragita kereyo, takereyo niy'umunyeshuri yayibikamo ikaramu yanditseho amagambo handitseho osifodi iyi niboate umunyeshuri yitwaza.

Abanyeshuri baricaye bari kuganira, bambaye amashati y'imyeru kandi kwigana ibyiza bifasha umwana. kwaguka mu bitekerezo, kugira ubumenyi, kugira ibyo asobanukirwa, hano urabona ko bicaye hanze bari mu bidukikije kandi bambaye neza barakeye.

Uru ni urubyiruko rw'abanyeshuri rurangije kwiga rwambaye imipira yo ku rugerero, imipira y'ubururu isa, amapantaro y'umukara, bambaye n'inkweto, bambaye n'amasogisi, bari mu ihema, bari kuri pariyedi, barimo kwiga ibigendanye n'itorero ry'Igihugu kugira ngo bamenye indangagaciro n'umuco nyarwanda.

Abantu baricaye bicaye ku ntebe bari kwandika bari mu kizami, ikizami cy'akazi, ntiba atari inama barimo, bari kwandika harimo abari gutekereza bafite abasokoresheje abambaye rinete hari na koputa bateretse imbere.